Mu inzu hicayemo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umutuku, harimo umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare ufite indangururamajwi mu ntoki ze ari kuvuga ijambo.

Mu nzu yubakishije amakaro, isize irangi ry'mweru, ifite n'amarido y'umweru harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umweru n'ameza ariho igitambaro cy'umweru, ateretseho amazi ari mu gacupa ya sosiyete y'Inyange, bari mu nama.

Mu nzu hicayemo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere hari igiteleviziyo kinini kiri kwerekana ibyo bakora bari mu nama, imbere hari abantu benshi bari mu myidagaduro babasusurutsa.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umutuku, hari n'abafite amakaramu mu ntoki zabo n'amatelefone bari mu nama.

Igisheregati harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bahagaze bari bucinye akadiho, hari n'abantu bambaye impuzankano ya gisirikare n'abandi bambaye impuzankano ya polisi.

Abantu benshi cyane bigitsina gabo bari mu nama bicaye ku ntebe zisize irange ry'igitaka, bafite amakara mu ntoki zabo, hari n'indangururamajwi ku meza ari imbere yabo, inyuma yabo hari icyapa kinini cyane cyanditseho, ga, a, ha, mu ibara ry'ubururu.

Mu nzu irimo tapi y'icyatsi irimo n'ibitambaro by'umuhondo, ubururu n'icyatsi harimo abantu benshi b'igitsina gabo bahagaze bari gukoma amashyi n'intebe z'umukara, impande yabo hateretse ji n'amazi ya sosiyete y'Inyange, inyuma y'aho hari icyapa kinini cy'uburu cyanditsemo amagambo menshi mu ibara ry'umweru.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye amadarubindi n'umupira wa shokora urimo uturango tw'umweru wambaye isaha ku kuboko n'indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye hari intebe zo kwicaraho ari mu nama.

Mu nzu nini cyane harimo abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo hari ameza ateretseho ji n'amazi bya sosiyete y'Inyange bari mu nama.

Mu gishararaga hiciyemo abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'ubururu, bari mu nama bari kuvuga ku burenganzira bafite ndetse n'ubutabera.

Mu gishararaga hicayemo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, imbere yabo hari ameza ateretse h'indabo, imbere nanone hari abantu benshi harimo abahungu n'abakobwa bambaye imyenda yo mu bwoko bw'imikenyero, bari kubyina imbyino zo mu muco nyarwanda.

Mu gisharagati cy'umweru, harimo tapi y'icyatsi, harimo abantu benshi cyane, hari abicaye ku ntebe z'umweru n'abandi b'igitsina gore, bambaye imyenda yo mu bwoko bw'imikenyero, bari kubyina, imbyino zo mu muco nyarwanda.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane igitsina gabo igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara hirya yabo hateretse ji n'amazi bya sosiyete Inyange imbere hari umuntu w'igitsina gabo uri kubyina imbyino z'umuco nyarwanda.

Nk'uko bigaragara ndetse dusanzwe tubizi mu muco wa kinyarwanda wa mbere, hari hazwi inyogosho y'amasunzu, yogoshwaga n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo nk'uko mubibona hano hari umugabo wogoshe iyo nyogosho ndetse ikaba igaragara neza cyane.

Mu gisharagati hashashemo tapi y'icyatsi, harimo abantu benshi, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo n'abari kubyina imbyino zo mu muco nyarwanda, bambaye imyenda y'imikenyero isa umweru n'umukara, bazamuye amaboko.

Mu gisharagati, harimo abantu benshi cyane, bari gususurutsa abantu harimo, abagore n'abagabo, bari kubyina imbyino za kinyarwanda, bambaye imyenda ya kinyarwanda y'imikenyero n'ibinigi, ndetse n'amayugi.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi myinshi, upfukamye ku musambi. Ari gusya akoresheje urusyo n'ingasire, nibyo bakoreshaga mu muco nyarwanda, hirya ye, hari icyibo ari gushyamo ibyo ari gusya.

Hanze hari umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge ari gusya amasaka akoresheje urusyo n'ingasire ayo amaze gusya akayashyira ku nkoko.

Ubuseke nk'uko buri kugaragara hano ari bubiri, kamwe kakaba kiganjemo iba ryirabura, akandi kakaba kiganjemo ibara rya kaki, kaba ari kamwe mu muco nyarwanda, bakoresha babikamo ibinyampeke bitandukanye, urugero amasaka, uburo, ibigori.

Mu gisharagati hicayemo abantu benshi cyane igitsina gabo, igitsina gore, imbere yabo hari ameza ateretseho indabyo hari n'abakobwa beza bari kubyina imbyino z'umuco nyarwanda, bambaye n'imyenda y'ubwoko bw'imikenyero bari guseka n'ibinigi mu ijosi ryabo.

Ikusanyirizo ry'amashanyarazi harimo amapoto menshi cyane akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, hari n'icyapa kinini kiri imbere yayo cyanditseho REG mu ibara ry'umutuku.

Ipoto rinini cyane rihuriraho umuriro w'amashanyarazi kugira ngo akwirakwize ahantu hatandukanye mu baturage, hirya y'iryo poto hari amazu menshi kandi meza yubakishije amabati y'umutuku, inyuma hari n'indabo nziza kandi nyinshi.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi, aho ukwirakwize amashanyarazi ahantu hatandukanye no mu ngo z'abaturage, hariho abantu buriye bari kuyakora kugira ngo ibikorwaremezo byiyongere.

Mu muhanda w'igitaka hirya y'umuhanda hari imirima iteyemo insina z'ibitoki, nanone harimo ipoto ry'amashanyarazi rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda hari urujya rw'abantu benshi cyane, abajya muri uganda n'abaza mu Rwanda, hari n'imodoka iparitse igaragara ko bari kugenda ,hari n'ibyapa bigaragaza ko ari ku mupaka. Kimwe gisa umwero handiteho amagambo y'umukara n'ikindi gisa cyatsi cyanditseho amagambo y'umweru.

lnzu nini ya leta ,isize irangi ry'umweru, yubakishije amatafari ahiye, yubakijwe n'amabati y'umutuku, hanze hari umuhanda wubakisha amatafari y'amapave, hari n'idarapo ry'u Rwanda rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi ,ku nzu hari n'icyapa kinini cy'umweru, cyanditseho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda ,hari n'abantu bicaye hanze.

Inzu nini cyane kandi nziza y'ubucuruzi, aho icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hanze hahagaze abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore kandi haparitse n'imodoka zitandukanye.

Inzu nini cyane kandi nziza isize irangi ry'umweru hanze hari kandagira ukarabe hejuru hari icyapa kinini cyanditseho gira ubuzima herifu positi kiriho umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana hari n'abantu bicaye hanze baje kwaka serivisi.

Igicumbi cy'intwari gifite ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo, n'icyatsi, cyanditseho amagambo menshi, akarere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, mu ibara ry'ubururu, na kirazira mu muco nyarwanda n'indangagaciro dukurikiza mu muco nyarwanda.

Uruganda runini cyane rufite inzu zubakishije amatafari ahiye n'amabati y'ubururu, ni ho bakorera amata y'inyange akozwe mu ifu kugira ngo Abaturarwanda bajye baba bifite ubuziranenge, hanze hari ibiti byinshi kandi byiza numuhanda wa kaburimbo ujyayo.

Inyubako ya Leta yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru, ni ibiro by'umurenge wa Katabagemu hicaye abantu babiri hanze b'igitsina gore, baje kwaka serivisi zitandukanye mu murenge.

Inzu nini kandi nziza isize irangi ry'umweru, yubakishije amabati y'umutuku hanze hari ubwogero rwa rusange, hari n'ubusitani bwiza buteyemo indabo hari n'aho abagenzi banyura hubakishije amatafari y'ubwoko bw'amapave, hariho uturongo tw'umweru n'umukara.

Mu muhanda harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bari kugenda, bari kunyura ku kiraro cyubatswe na leta, bacyishimiye.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo abantu bari kugenda, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo ufite igare n'abandi bagore bari kugenda, hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza.

Mu gisharagati hiciyemo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, impande yabo hari ameza ateretseho amazi ya sosiyete y'Inyange, inyuma cyane hari abandi bantu bahagaze.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ahantu hamwe, hagaragara abantu bagera muri bane bayoboye inama, inyuma yabo hakaba hari ibyapa byanditseho mission ndetse na vision y'ikintu bari kuganiraho.

Ku kigo cy'amashuri mu busitani buteyemo ibiti, hahagazemo abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bari kuvuga ku burenganzira bafite ndetse n'ubutabera nk'abanyarwanda.

Ku rwibutso harimo abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore n'abambaye impuzankano ya gisirikare, baje kwiga amateka y'abanyarwanda no kwibuka abantu benshi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, hari ameza ateretse amakayi, hariho n'icupa ry'amazi rya sosiyete y'Inyange, hari n'umuntu w'igitsina gabo wambaye impuzankano y'icyatsi ya Dasso, bari mu nama.

Mu ishyamba harimo abantu benshi b'igitsina gabo, umwe wambaye ingofero n'amadarubindi, ufite igiti mu ntoki, bari kwiga ku burenganzira n'ukuntu umuntu yakwita ku giti.

Hanze hari abantu benshi cyane higanjemobigitsina gabo, hari abambaye ingofero n'abambaye amadarubindi bari kuganira ku butabera n'uburenganzira bafite, hari n'imadoka iparitse inyuma yabo, hirya hari urutoki rwiza cyane.

Igisharagati gifite ibara ry'ubururu n'umuhondo harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati ya move n'ipantaro ya kake ufite indangururamajwi mu ntoki ze wambaye n'amadarubindi ari kuvuga ubutabera ndetse n'uburenganzira abantu bafite.

Mu muhanda wa kaburimbo, urimo ubusitani bwiza buteyemo ibiti, hakurya y'umuhanda hari abantu benshi cyane b'igitsina gabo, bambaye ingofero n'imipira y'icyatsi, inyuma yabo hari n'imodoka, bari kuganira ku burenganzira bafite n'ubutabera nk'Abanyarwanda.

Hanze munsi y'igiti hahagazemo abantu benshi harimo ab' igitsina gabo n'igitsina gore, harimo uwambaye baji mu ijosi rye, bari kuganira ku butabera n'uburenganzira bafite.

Mu gishararagati hicayeyemo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umweru hari n'abanyeshuri bambaye impuzankano ishati ymweru n'abambaye imipira y'ubururu bari mu nama bari kubwirwa uburenganzira bafite n'ubutabera.

Mu busitani bwiza buteyemo n'ibiti, hicayemo abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore n'undi mugabo, wambaye umupira w'ubururu, ugeze mu za bukuru, uhagaze imbere yabo, bari kuganira ku butabera n'uburenganzira bafite nk'Abanyarwanda.

Hanze hari abantu benshi cyane, harimob'igitsina gabo, n'igitsina gore, harimo n'umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ze, wambaye ishati ya move n'ipantaro ya kake uri kubabwira, hari n'icyapa kinini cyane cyanditseho umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika mu ibara ry'umuhondo, bari guhabwa amabwiriza ndetse n'ubutabera.

Hanze mu kibuga hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore hari abicaye n'abahagaze imbere bafite amatelefone asa umuhondo bigaragare ko baje kubatera inkunga harimo n'umuntu wambaye impuzankano y'icyatsi y'abadaso.

Mu nzu nini cyane ya salle hicayemo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore harimo umwe wicaye wambaye impuzankano ya gisirikare imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ya sociyete y'inyange imbere hari n'undi mugabo wambaye imyenda yo mu bugenzacyaha ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Mu muhanda winjira mu gipangu, wubakishije amatafari ahiye, hari icyapa kinini cyane cyanditseho Isonga guest house, aho batanga serivisi zigiye zitandukanye, aho kuryama, ibiribwa n'ibinyobwa.

Mu muhanda wa kaburimbo aha ni aho abanyamaguru batambukira, hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave harimo n'abantu bari kwambuka umuhanda aho abanyamaguru bagendera, hirya y'umuhanda hari n'icyapa kinini cy'umweru n'umutuku cyanditseho REG mu ibara ry'umutuku Nyagatare branch mu ibara ry'umukara.

Mu busitani harimo icyapa gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda. Kirimo ubuso bw'ikizeru cy'umutuku mo imbere harimo umweru handitseho mirongo itandatu. Bivuga ko umuntu utwaye ikinyabiziga atagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Inzu isize irangi ry'umweru, yubakishije amakaro n'urugi rw'umukara ifite icyapa hejuru cyanditseho rftc mu ibara ry'ubururu, isosiyete itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara n'undi muremure w'umweru, harimo abantu bari kugenda, hakurya y'umuhanda hari naho abagenzi bagendera na none hari amazu menshi y'ubucuruzi.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo uturongo tw'umweru n'umukara, hari n'aho abagenzi batambukera, harimo imirongo minini y'umweru, hirya hari abantu bari kugenda, hari n'ubusitani bwiza ndetse hari n'amazu atuyemo abaturage.

Mu muhanda w'ikitaka harimo ikimodoka kinini gifite ibara ry'umweru n'umukara, hirya y'icyo kimodoka hari abantu benshi cyane bigaragare ko bari kwiga gutwara imodoka.

Icyapa kinini cyerekana nimero y'umuhanda, kiyobora abantu, cyanditseho FN ijana na mirongo ine n'umunani st, imbere yacyo hari igiti nanone hari inzu n'indabo.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cy'imodoka kiri kugenda, hakurya y'umuhanda hari amazu menshi y'ubucuruzi, acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hari n'umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya MTN.

Mu murima hari icyapa kiri mu ubuso bwa mpande enye, gikoreshwa kiyobora abantu, cyanitseho, e, na, ijana mirongo na itatu na gatandatu, sa, ta, mu ibara ry'umukara.

Icyapa kinini, kirimo ubuso bwapande enye cy'umukara, mo imbere harimo umweru, cyanditsemo Karangazi, kiyobora abantu, hirya hari umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye ndetse hari n'abantu bahatuye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cy'imodoka ,gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ,gifite ibara ry'umweru ,hirya y'umuhanda hari aho abagenzi bicara.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara n'indi minini igaragaza aho abanyamaguru batambukira, harimo ikinyabiziga k'igare kiri kugenda, hakurya y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi menshi hari n'imodoka iparitse imbere y'ayo maduka.

Mu murima harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore higanjemo abambaye imyenda y'imikara n'urubyiruko bari gukora umuganda bafite amakupakupa mu ntoki.

Mu ishyamba riteyemo ibiti byinshi harimo abantu benshi bafite kupapupa bari gukoramo umuganda, harimo bambaye impuzankano ya gisirikare n'undi wambaye impuzankano y'icyatsi ya daso, hari n'abambaye amajire y'icyatsi bari gukupakupa bakora umuganda.

Hanze munsi y'igiti hiciyemo abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore ndetse hari n'abahagaze, hari n'umuntu uhagaze imbere yabo ufite urupapuro mu ntoki n'indangururamajwi uri kubabwira amategeko n'amabwiriza.

Munsi y'igiti mu rucaca hicayemo abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, harimo n'umugore wambaye umupira w'umukara n'amadarubindi mu mutwe ufite indangururamajwi mu ntoki ze uri kuvuga.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo abambaye impuzankano ya Polisi n'undi wambaye impuzankano ya gisirikare, bafite amasuka bari gukora umuganda.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'umweru irimo na shokola wabanze ingata wikoreye amabuye, biragaragara ko ari kujya gukora umuganda, hirya ye hari umurima urimo insina zeraho ibitoki.

Abantu benshi cyane bigitsina gabo bambaye inkweto zo mu bwoko bwa bote harimo n'umuntu wambaye impuzankano ya Polisi uri guterura ibuye hasi biragaragara ko bari mu muganda.

Ahantu hari imbaga y'abantu benshi, hagaragara nk'ahantu hari harameze ibihuru, bakaba baje kuhakorera umuganda bafatanyije, bamwe bakaba bafite amasuka, hakaba hakubiyemo igitsina gabo n'igitsina gore.

Munsi y'igiti, mu rucaca, hicimo abantu benshi, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore n'abambaye impuzankano ya polisi n'undi wambaye impuzankano ya gisirikare, hirya haparitse amagare, hirya nanone haparitse imodoka ya polisi, hicayeho umupolisi.

Mu kibuga harimo igishararaga, gifite ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo n'icyatsi, harimo abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bari kubyina bishimye.

Mu kibuga kinini cyane cy'umupira w'amaguru kirimo ibyatsi byinshi, harimo umukinnyi w'umugabo wambaye imyenda y'ubururu, uri kwirukanka kuri balo, inyuma ye hari amazu menshi kandi meza afite n'ikigega gisa umukara.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru hari gukinirwamo amakipe abiri atandukanye ayambaye imyenda y'ubururu bwijimye, n'andi yambaye imyenda y'ubururu bwererutse bari gukina kugira ngo bamwe batsinde, hari n'abafana bicaye hirya y'ikibuga.

Mu ikibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi harimo na ballon ifite amabara menshi atandukanye, harimo amakipe abiri ahanganye, harimo ayambaye imyenda y'umuhondo ni indi yambaye imyenda y'ubururu biri gukina, biri mu myitozo ngororamubiri.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru harimo amakipe abiri ahanganye hari iyambaye imyenda y'ubururu bwijimye n'abandi bambaye umupira wa oranje n'ikabutura y'umukara na ga z'umuhondo hari n'amazamu afite inshundura z'umweru.

Mu kibuga cyumupira w'amaguru gisa icyatsi, harimo amakipe abiri ahanganye, imwe yambaye imyenda y'ubururu. n'indi yambaye umupira w'umutuku n'amapantaro y'umukara, n'undi muntu w'umugabo wambaye ishati n'amadarubindi uri kugenda, bari gukina umupira w'amaguru.

Hanze hari abantu benshi, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, wambaye amadarubindi, n'undi ufite umupira mu ntoki, bari guhabwa igikombe cyanditseho Nyagatare district, Umurenge wa Kagame Cup, bafite n'igikombe mu ntoki zabo.

Ku kibuga cy'umupira haragaragara umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba afite terefone mu ntoki n'indangururamajwi asa nk'aho ari kubwira abantu bitaruye, inyuma ye hakagaragara abana babiri.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisi icyatsi, harimo amakipe abiri yabagabo ahanganye bamwe, bambaye imyenda y'ubururu bwijimye, abandi bambaye imyenda y'umuhondo, bari gukina umupira w'amaguru.

Hanze hari abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bari guhabwa igikombe cy'abantu bitwaye neza mu karere ka nyagatare, hari n'icyapa bari kubaha kinini cyanditseho Nyagatare (district) ,umurenge kagame (cup).

Mu nzu hicaye abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, bari kureba umupira n'abandi bantu bari mu myitozo ngororamubiri, harimo n'umuntu w'igitsina gabo wambaye impuzankano ya Polisi y'umukara.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi, harimo amakipe abiri y'abagabo, ahanganye, harimo yambaye imyenda y'umuhondo, harimo n'iyambaye imyenda y'ubururu, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, higanjemo urubyiruko, harimo umwe w'umuhungu, ufite mudasobwa ku bibero bye, biragaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Mu kibuga kinini cy'umupira w'amaguru, harimo amakipe y'abagabo, bamwe bambaye imyenda y'ubururu bwijimye, abandi bambaye imipira y'umutuku n'amakabutura y'umukara, bari gukina ngo batsinde cyangwa batsindwe, inyuma y'ikibuga, hari abafana benshi.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo amakipe abiri atandukanye, harimo abambaye imyenda y'umuhondo, n'abandi bambaye imyenda y'ubururu, bagiye gukina mu myitozo ngororamubiri.

Mu kibuga cy'umupira kinini cyane k'iyigitaka harimo abana b'abahungu bari gukina umupira w'amaguru bakoresheje bar ifite ibara rya oranje n'ubururu bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru kirimo tapi y'icyatsi harimo ikipe y'abagabo yambaye imyenda y'umuhondo n'umuzamu wambaye iy'icyatsi bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi harimo amakipe abiri ahanganye imwe yambaye imyenda y'ubururu n'indi yambaye imyenda y'umuhondo kugirango bamwe batsinde cyangwa batsinzwe cyangwa banganyaye.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, gisa icyatsi kirimo n'imirongo y'umweru, gifite amazamu y'umweru, kirimo n'umuntu w'igitsina gabo uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye umupira w'ubururu bwijimye n'ikabutura y'umukara.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi, harimo amakipe abiri ahanganye imwe yambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi n'abandi bambaye imyenda y'umupira wa oranje n'ikabutura yumukara, bari gukina umupira w'amaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umunyonzi uri ku igare, wambaye isengeri y'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, ubona ko iruhande rwe ibumoso hari umutaka wa MTN ndetse n'inzu z'ubucuruzi, zisize amarangi y'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umuhondo. Harimo n'umurongo muremure w'umweru. Harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa bwite, isa umweruru. Hirya y'umuhanda hari ishyamba riteyemo ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo twinshi tw'umweru ducagaguye, harimo n'ikinyabiziga cya moto gihetse umugenzi, harimo n'abantu benshi bari kugenda n'umunyeshuri w'umuhungu wambaye ishati y'umweru n'ikabutura ya kake, hakurya y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi.